Abashinzwe umutekano badufitiye akamaro kanini cyane muri uru Rwanda rwacu, kuko barinda umutekano. Hirya no hino hari ibyaha byinshi bakumira nko kwiba, gufata abagore ku ngufu, kwica, n'ibindi bitandukanye.

Ibi ni ibyuma bya muzika, bikunze kwifashishwa n'amakorali arimo aririmba ndetse n'abandi bahanzi ku giti cyabo, ndabona harimo migiseri ziyungurura amajwi ndetse na seti bakoresha bari gucuranga ndetse n'ibindi bikoresho, aba ni abajura rero ubona bari bagiye kubyiba.

Inama rusange y'abaturage aho ibonekamo inzego z'umutekano nk' abasirikare, abapolisi, abadaso, ba mutekano bo mu midugudu, abayobozi bakuriye imidugudu, abakuriye utugari, abakuriye umurenge ndetse n'abandi bayobozi bo hejuru.

Imbehe za kinyarwanda, kera mu muco nyarwanda baziriragaho ndetse bakaba bafite n'intebe za kinyarwanda, bazicaragaho zikaba ari intebe nziza cyane, umuntu yicaraho akumva aguwe neza.

Inka z'inyambo ni nziza cyane, kubera ko zitanga umukamo mwiza cyane kandi inka z'inyambo, ziba zigaragara neza cyane iyo ziteze aya mahembe, ziba zigaragara neza cyane.

Urusyo cyari igikoresho cyo hambere basyagaho amasaka. None ubu haje iterambere tugira amasekuru basekuramo amasaka ndetse n'imyumbati n'ibindi byinshi. Hakaza n'insyo ducishaho ibintu byose dukeneye.

Ibiseke babitwerereramo iyo batashye ubukwe, cyangwa bakabitaka mu nzu, bikaba bigaragara neza, nk'imitako myiza ibereye ijisho.

Umuco wo hambere bajyaga bajyana umugeni bakamutwara mu ngobyi, bakamushyikiriza iyo bagiye gushyingirwa. Bamujyanaga rero bamutwikiriye yicaye mu ngobyi, maze bakamushyikiriza umugabo we.

Imbyino nyarwanda gakondo nk'umuco w'Abanyarwanda ni nziza cyane, kuko bazifashisha mu birori bitandukanye nko mu bukwe, kandi bakizihiza ibirori cyangwa mu nkera mu bitaramo byinshi bitandukanye.

Uyu ni umuco wo kubyina aho intore ziba ziri kubyina neza cyane, bari gushimisha abantu, basusurutsa ibirori, nko mu bukwe, no mu bindi birori bitandukanye.

Mu muco nyarwanda kera, bakoreshaga urusyo bari gusya amasaka, ingano, uburo ndetse n'ibindi, aho babisyaga bari gushaka ibikoma cyangwa ibyo bavugamo umutsima.

Imigano ni myiza cyane, aho ikorwamo intebe, utubati, ameza, ndetse n'ibindi byinshi. Biba bigaragara neza nko mu muco wacu w'abanyarwanda, biba ari ibintu bisa neza cyane.

Uyu muco w'imbyino nyarwanda, wifashishwa cyane, mu muco nyarwanda, aho baba bari gususurutsa abageni, habaye ibirori bitandukanye, bari kwizihiza ibirori runaka, niho hifashishwa uwo muco.

Iyi ntebe ndetse n'utu dukoresho ni ibyo mu muco nyarwanda, bikorwa mu migano kandi biba ari ibikoresho bisa neza cyane, kubera ko biba binogeye ijisho ndetse n'abantu turabikunda.

Imbyino gakondo iri mu muco w'abanyarwanda, aho imbyino gakondo zifashishwaga mu kubyina mu birori runaka, abantu bakizihirwa, bakishima bakanezerwa, kubera izi mbyino gakondo z'umuco w'abanyarwanda.

Uyu ni umuco wa kera wo kuvuza umuduri, aho bahimbaga indirimbo bagacuranga bakoresheje uyu muduri, maze bakanezeza abantu bagacuranga mu bukwe no mu bindi bitaramo bitandukanye, abantu bakishima.

Izi nzu zifashishwaga hambere mu muco nyarwanda, aho babaga bubatse inzu zimeze gutya cyane cyane zabagamo abami. Cyane cyane habaga ari ibwami. Izi nzu za kera zari nziza cyane

uyu ni umuco wa kera aho abantu bakundaga kwiyogoshesha ayo masunzu rero wari umuco wa kera kuko muri iyi minsi ntiwapfa gusanga aho abantu biyogoshesha ayo masunzu ndetse hari nkuko bambaraga imyenda itandukanye niyo twambara ubu.

Imbyino nk'umuco gakondo nyarwanda aho izi mbyino zikoreshwa mu birori bitandukanye nko mu bukwe, mu bindi birori bisanzwe nk'aho umuyobozi yageze runaka mu yindi minsi mikuru mbega imbyino gakondo ziratunezeza zikadushimisha cyane.

Inyambo ni nziza cyane, aho zikoreshwa mu muco nyarwanda, ziri imbere zigenda ku murongo, zishe zizihiwe zigashimisha abantu.

Ibiseke ni ibikoresho twifashisha turi nko gutwerera ugashyiramo amako ibishyimo, ibigori n'ibindi byose bitandukanye. Cyangwa igiseke ukaba wagitaka mu rugo..

Ubuhinzi budufitiye akamaro kanini cyane kubera ko iyo duhinze tubona ibyo kurya, tukabona ibitunga imiryango yacu, tukabona ibitunga abana bacu ndetse tukajyana no mu masoko bityo tukiteza imbere.

Umuco ni mwiza cyane, aho usanga abazungu bavaga hirya no hino bakaza kureba umuco nyarwanda, ndetse ugasanga bari no kuwigana, abanyarwanda bakabigisha nk'uko bavuza ingoma, bakumva barishimye, barizihiwe.

Iyi ni najoro kuva kera hose bajyaga bayikoresha mu kujya kwahira barikwahirira ubwatsi inka, bakayikoresha cyane cyane, bakayijyana mu mibande bakayahiza n'inshyinge yo gusasira inka, ariko banayahiza ubwatsi bwo gusasira amatungo.

Uyi n'umuco wo gukwenga ibitoki bakoresheje imivure ya kera, kandi na n'ubu biracyariho kugira ngo tubone umutobe. Bakunda gukoresha iyi mivure bakenga ndetse hari igihe bashyizemo n'amaguru yabo, bagakoresha n'intoki zabo maze bagakuramo umutobe tukawumwa.

A iri ni ikoranabuhanga rikoreshwa n'amashanyarazi nk'izi mudasobwa, tuzikoresha twandika amabaruwa, izi mudasobwa tuzikoresha twe tuzigiraho, mbega izi mudasobwa tuzikoresha ibintu byinshi cyane, bitandukanye mu buzima busanzwe.

Amashanyarazi ni meza cyane kubera ko adufasha mu bintu byinshi bitandukanye, tujya kubetesha ku rusyo kubera ko hari amashanyarazi, mu rugo turayacana, icyo kintu ni cyiza cyane rwose, ubwo rero amashanyarazi adufitiye akamaro kenshi kanini, nk'inganda zikoresha amashanyarazi, amashanyarazi ni meza cyane ku buzima bwacu busanzwe.

Uyu ni umuriro w'amashanyarazi, wifashishwa mu nganda zitandukanye, gucana ku mihanda ndetse no kubonesha mu nzu z'abantu benshi cyane, usanga uwo muririro wifashishwa no mu ma hosipito, mu mavuriro atandukanye, uwo muriro rero udufitiye akamaro cyane.

terefoni ni kimwe mu bikoresho by'itumanaho kiza cyane, twifashisha turi guhamagara n'abari hirya no hino bakabasha kumvikana kandi batari kumwe terefone ni nziza cyane kubera yuko tuyireberaho amakuru atandukanye, tukamenya ibigezweho.

Amatara yo ku mihanda adufitiye akamaro kanini cyane, aho abajura badapfa kwiba ,aho abicanyi batapfa kwicana kubera ko ku mihanda haba habona hari umucyo, umuntu wese akaba yahatambuka afite umutekano kubera amashanyarazi.

Iyi ni inzu y'Imana tujya gukizwa harimo abapasiteri, n'abarimu batwigisha iby'agakiza, bakatwigisha ijambo ry'Imana, aho batwigisha gukunda abantu, gukunda Imana, kugira neza, ndetse no gukunda bagenzi bacu.

Iyi ni inzu y'imana umuntu ajyamo, akaruhuka imiruho n'imihati, nk'ubu ufite ikibazo, wajya mu nzu y'Imana ukumva ijambo ry'Imana, warangiza ukumva uguwe neza, ukumva umutima wari wihebye, ukumva ugaruye ugarutse ibuntu, kubera ijambo ry'Imana wumvise.

Urusengero rwa kiliziya gatolika ni rwiza cyane, aho rudufasha mu iyobokamana aho abapadiri baba bari kwigisha ijambo ry'Imana, abantu bagakizwa abantu bakamenya urukundo bakunda bagenzi babo, urukunko bakunda imiryango yabo ndetse bakagira kwihangana, no gufashanya kubera gusenga.

Inzu y'Imana idufitiye akamaro cyane, kubera yuko iyo umuntu agiye gusenga aba afite amahoro kandi akumva afite urukundo, yakunze mugenzi we nk'uko yikunda ndetse ugasanga nta n'ibintu by'amakimbirane ajyamo, kubera yuko ari umuntu w'Imana usenga kandi yamenye Imana.

Iki ni igikoni gitekerwamo, aho mbonamo gaze bifashisha bari gutegura amafunguro. Gaze yifashishwa mu guteka vuba cyane, mu buryo butarambiranye. Umuntu agahita abona ifunguro ritunganye neza cyane.

Inzu y'Imana ivugirwamo ijambo ry'Imana, abantu tugakizwa tukakira agakiza, tukamenya urukundo Imana yadukunze, tukamenya kubana neza mu mahoro tutangana, dukundana kubera ijambo ry'Imana batwigishije.

Inzu abantu babamo ifite ubusitani bwiza cyane, bafite ibyumba byiza bifite igikoni cyiza cyane, aho umuryango uba urimo unezerewe kandi utekanye.

Ibiraro ni byiza cyane aho babyubaka kugira ngo bifashe abaturage kuva mu gace kamwe bajya mu kandi, kuva mu gihugu bajya mu kindi, ndetse n'ubuhahirane bukagenda neza.

Iyi ni inzu y'Imana, aho abapasiteri baba bigisha ijambo ry'Imana. Bigisha abaturage kubaha Imana, gukunda abantu bagenzi babo, gukunda Igihugu ndetse bigisha ibintu bitandukanye. Byose tukabyigira mu nzu y'Imana.

Amashuri nk'ibikorwa remezo bidufasha mu gutanga uburezi, abana bakiga neza cyane barangiza imbere gato bakazabikoresha bakiteza imbere mu buzima busanzwe.

Aya ni amashuri, amashuri adufitiye akamaro kanini cyane, kubera ko abana bacu bajya kuyigamo bakagira ubumenyi buhambaye, bityo bagateza igihugu imbere kubera ubwo bumenyi bahabwa.

Hano bari kwerekana ibijyanye n'uburenganzira, umuntu wese akwiye kugira uburenganzira, umugore akwiye kugira uburenganzira bwo gukora, bwo kwiteza imbere, abana bakwiye kugira uburenganzira ku babyeyi babo, banakwiye kugira uburenganzira bwo kwiga, uburenganzira bwo gukina ndetse n'ubwo kwisanzura.

Inama rusange y'abaturage aho iba yateranye ikiga kubibazo abaturage bafite, kandi ba irimo abashinzwe umutekano nk'abadaso, n'abayobozi b'imidugudu, ab'Utugari ndetse n'ab'Umurenge. Abaturage rero baba bari kubaza ibibazo bafite, kandi bakabasubiza nk' uburenganzira bw'abaturage.

Inteko y'abaturage aho iterana, baturage bakabaza ibibazo bafite kandi abayobozi bakabasubiza, ni uburenganzira bw'abaturage rero kubaza ibibazo bafite byaba ibyo mu ngo, byaba ibyo bahura nabyo mu buyobozi, nuko abayobozi bakabasubiza kandi bakagenda banyuzwe.

Ubu ni ubwato butwara abantu n'ibintu, aho ubu bwato bwifashishwa mu kwambutsa abantu n'ibintu bubavana ahantu hakurya y'inkombe, bubajyana hakuno y'inkombe.

Imodoka zidufitiye akamaro kanini cyane, kubera yuko zidufasha kuva ahantu tujya ahandi, tukava nko mu ntara tujya mu yindi, imodoka rero ni nziza cyane kubera ko zitujyana ahantu.

Ubwato tubwifashisha nko mu nzira z' amazi turi kuva hakuno tujya hakurya, tuva mu gihugu tujya mu kindi, kandi ubwato butwara abantu n' ibintu, budufitiye akamaro kanini cyane, rero kuko butuma duhahirana no mu bindi bihugu tunyuze mu bwato.

Iyi ni imodoka twifashisha cyane mu kuva ahantu tujya ahandi, kuva mu ntara tujya mu yindi ntara ,kuva mu mujyi wa Kigali tujya ahandi hantu hatandukanye, ndetse iyo modoka tuyifashisha cyane no kuba abanyeshuri bari kujya ku mashuri.

Amagare ni meza cyane, aho tuyifashisha mu gutwara abantu n'ibintu, abavana mu duce tumwe abajyana mu tundi, ndetse atunda n'ibyo kurya: ibijumba, ibisheke. Ibintu byose bicuruuruzwa amagare adufasha kubijyana no ku isoko.

Ubwato ni kimwe mu bikoresho bitwara abantu n' ibintu, aho bubanyuza mu nzira z' amazi bukaba butwara abantu n' ibintu buri kubambutsa.

Izi ni imodoka zifashishwa mu gutwara ibintu, nk'imisaruro iba yabonetse nk'ibirayi, ibishyimbo, ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, bikajyanwa mu masoko.

Imodokadu ni nziza cyane. Zidufasha mu abantu n'ibintu, zibavana hirya no hino mu ntara zibajyana mu mujyi wa Kigali, zibavana mu mujyi wa Kigali zibajyana mu ntara, n' ahandi henshi hatandukanye.

Amagare ni igikoresho kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu. Amagare apakira imizigo myinshi itandukanye ,apakira:ibirayi ibijumba, amata, ibisheke ndetse agatwara abantu.

Volebolo ni kimwe muri siporo ikundwa cyane n' abantu benshi, aho bayikina bakishima, bakanezerwa abandi bakagira ubuzima bwiza, kandi volebolo ibaha n' amafaranga menshi cyane.

Siporo idufitiye akamaro kanini cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo ukora siporo cyane cyane iduha ubuzima bwiza, ukaba wumva umeze neza nturwaragurike kubera ko ukora siporo.

Aya ni amarushanwa y'amagare ni meza cyane rwose kubera yuko iyo ugiye muri aya marushanwa, ukaba nk'uwa mbere, baraguhemba ayo mafaranga ubonye akaba yagufasha kwiteza imbere, aya marushanwa y'amagare ni meza cyane ku batuye u Rwanda ndetse n'abaturage muri rusange.

Uyu umukino wa basiketi bolo ni siporo nziza cyane, ifasha abantu mu ubuzima bwabo busanzwe, kugira bumere neza, amaraso atembere neza bagorore ingingo zabo, si ibyo gusa iyo bari gukina basiketi bolo bagira n' ibihembo bahabwa iyo batsinze bagahabwa ibikombe bitandukanye, ndetse bigatuma byabateza imbere.

Imikino nko gukina umupira w'amaguru, vore boro, basiketi boro iyo yose, iyo mikino yose ni siporo yingirakamaro ituma abantu biruka kugira ngo bagire ibihaha bizima, ituma abantu barambura imitsi yabo bityo bigatuma izo siporo abantu bagira ubuzima bwiza.

Uyu ni umupira wamaguru nka siporo ifasha igihaha gukomera, kandi uwo mupira bawukuramo n'amafaranga, iyo bari mu makipe atandukanye bagatsinda barabahemba.

Ubu ni uburyo bwa siporo, mu mukino wa handiboro, aho tuba turi gukina dufashe umupira mu ntoki, tuwirukankana tujugunyira abandi, bityo bigatuma twiruka igihaha cyacu kigakora kandi kigakora neza cyane.

vore boro ni siporo nziza cyane ifasha abantu kugurura umubiri wabo ndetse kandi vore boro ifite akamaro kanini cyane kubera ko bayikina bagatsinda bakabona ibikombe ndetse bakabona n'amafaranga bakiteza imbere.

Uyu mukino wa basiketiboro nka siporo izwi cyane，ikunzwe cyane mu bantu，aho abasore n'inkumi bawukunda bakawukina，kandi ukabaha n'amafaranga. Umukino wa basiketiboro， ni mwiza cyane，utanga n'amafaranga，kandi ugatuma dukora na siporo tukagorora umubiri wacu.

Umupira w'amaguru ni kimwe muri siporo nziza cyane.yo kwirukanka aho umuntu aba ari kunanura amaguru, ye ndetse aho umuntu aba ari kugira ngo ingingo zikore neza. kandi ni siporo y'umupira w'amaguru nayo barayihemberwa iyo bagiye mu mikino runaka ndetse bakabona n'ibikombe.

Umupira w'amaguru ni siporro nziza cyane, ituma abantu bagira igihaha cyo kwiruka ndetse batuma n'ubuzima bwabo bugenda neza, ikindi kandi iyo bari mu makipe atandukanye barakina bakabona ibihembo, bagatsindira ibikombe runaka bakabonamo amafaranga maze bakiteza imbere.

Amagare ni kimwe mu gikoresho gikoreshwa mu isiganwa ry'amagare, ariko abantu bari gukora siporo kugirango ubuzima bwabo bugende neza.

Umupira w'amaguru ukinishwa mu mukino wa futuboro, aho abantu bawukina bakabonamo amafaranga. Uyu umupira ufite akamaro kanini cyane kubantu benshi, kuko bakunda umupira wamaguru kandi iyo bagiye mu marushanwa bagatsinda, babonamo amafaranga.

ni isiganwa ry'amagare nka siporo nziza cyane izwiho mu irushanwa aho bahatanira imyanya ya mbere ndetse bagahembwa bishimishije cyane kubera ko bakoze igikorwa gikomeye.

Aya ni amarushanwa y'amagare, aho ari na siporo abantu baba bari gukora kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ndetse aya marushanwa y'amagare, banayakuramo amafaranga, akabatunga akabateza imbere.